Abantu babiri b'igitsina gabo, umwe yambaye ishati y'igitaka, undi yambaye ishati y'ubururu n'ingofero y'ubururu, bari kwamamaza ubwishingizi bwo kwivuza.

Icyapa kinini cy'umweru, n'ubururu, kiriho abantu babiri, igitsina gabo, n'igitsina gore, bambaye amashati y'ubururu bwerurutse, n'amapantaro y'ikoboyi, handitse, mutuze aheza uharinde neza, mu ibara ry'umweru n'umuhondo.

Urupapuro runini rw'umweru, rushushanyijeho imodoka ebyiri z'umweru, hirya ku rupapuro handitseho Britam mu ibara ry'ubururu, n'andi magambo menshi yanditse mu ibara ry'ubururu.

Inzu nziza cyane igeretse iriho icyapa kiriho umuntu w'igitsina gore, hanze y'iyo nzu haparitse imodoka ndetse n'abantu bari kugenda.

Urupapuro ruriho amabara atandukanye, umweru n'ubururu, ruriho akazeru kanditseho Radiyanti mu ibara ry'umweru, hariho n'ikiganza cy'umuntu gifashe ku iserire ry'urugi.

Ikizeru cy'umutuku, mo mu imbere harimo ibara ry'umweru n'ibirenge bibiri, mo mu imbere mu kazeru harimo inyuguti ya ga, hejuru hari akaziga k'umutuku, hasi hari ibara ry'umutuku ryanditseho Sonarwa jenero Kinamba buranshi.

Icyapa kinini cyane cy'umweru, kiriho ifoto y'umuntu w'igitsina gabo, uri mu bigori, hariho n'amagambo menshi yandikishijwe ibara ry'umukara, avuga ngo shinganisha ibihingwa byawe, uhinge utekanye.

Icyapa kinini cyane cy'umweru, kiriho amagambo menshi yandikishije ibara ry'umutuku, n'andi y'ubururu, hariho abantu babiri b'igitsina gore, bafite imisatsi miremire, hashushanyijeho n'imodoka y'umutuku.

Icyapa kinini cy'umukara, kirimo umweru, kirimo akazeru kanditsemo RSSB mu ibara ry'umweru n'andi magambo manini hasi, hedikwateri mu ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye, imyenda y'abagabo, amashati y'umweru, ubururu bwijimye n'umukara. Harimo n'abantu batandukanye igitsina gabo n'igitsina gore, abirabura n'abazungu.

Mu nzu nziza y'ubucuruzi, icururizwamo imyenda yo mu bwoko bw'imipira, harimo imipira y'amabara atandukanye, icyatsi, ubururu, umweru, umutuku n'andi menshi.

Inzu y'ubucuruzi, icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye byo mu bwoko bwa kinyarwanda, harimo imyenda y'ibitenge, imitako yo mu nzu, amasakoshi, imikufi n'ibindi byinshi.

Inzu y'ubucuruzi yubakishijwe amakaro, irimo akabati ka oranje, karimo amasakoshi n'imitako yo mu ijosi, harimo n'udutebe tubiri dusa oranje turiho amasakoshi y'umweru n'umukara.

Inzu nziza y'ubucuruzi yubakishijwe amakaro, icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye bya kinyarwanda, harimo imyenda y'ibitenge, imikufi yo mu ijosi ndetse n'indi mitako itandukanye.

Inzu nziza y'ubucuruzi yubakishije amakaro, irimo amabara y'umweru n'umukara, irimo ibicuruzwa by'imyenda y'abagore, harimo amakanzu, amashati n'ibindi

Inzu nziza bakoreramo ubucuruzi bw'imitako ya kinyarwanda n'imyenda, hanze hateretse ameza ariho imitako igiye itandukanye hanze hari n'ibyatsi.

Ibara ry'umweru ririmo amapantaro afite amabara atandukanye, harimo iri mu tuzu y'amakarokaro, harimo iya kacye, iy'ubururu bwijimye, iy'ubururu, iy'igitaka ndetse n'andi menshi.

Imodoka nyinshi kandi nziza zo mu bwoko butwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ziparitse muri parikingi yubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave, inyuma yazo hari ibiti byo mu bwoko butandukanye.

Imodoka nini cyane, nziza y'ibara ry'umweru n'icyatsi cyijimye, imbere yayo hari abagabo babiri bafite icyapa cyanditseho A,B,C Akagera moto. Inyuma yabo hari inzu.

Imodoka nyinshi ziparitse, harimo iy'umukara n'iz'umweru zifite amapine y'umukara, hirya y'izo modoka hari amazu menshi atandukanye, hateye n'ibiti bitandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo haparitsemo imodoka y'umukara hirya yayo hari ibiti byo mu bwoko butandukanye, hariho n'amagambo, ridi tu bayi na nimero wayibarizaho; zeru karindwi mirongo inani na gatandatu, mirongo itatu na gatatu, mirongo inani na kane, mirongo icyenda na kane.

Mu nzu isize amabara atandukanye, icyatsi n'umweru, hari icyapa kinini cyanditseho k,c,b n'abantu bahagaze bigitsina gabo bari kwaka serivisi.

Umuntu ufashe amafaranga menshi cyane ndetse azirikishijwe fimbo, hirya ye hari icyuma kibara amafaranga, hirya y'icyo cyuma hari umupira w'umukara n'ubururu.

Amafaranga yo mu bwoko bw'amanyarwanda, ashushanyijeho agaseke, ibiyaga ndetse n'imisozi, yanditseho hejuru banke nkuru y'u Rwanda, hasi handitseho amafaranga ibihumbi bibiri.

Ibiganza bibiri, bifashe amafaranga menshi, ashushanyijeho umugabo yanditseho igihumbi, hirya ye hari akamashini kabara amafaranga, kanditsemo ijana mu ibara ry'umutuku.

Ikiganza cy'umuntu gifashe keke mu ntoki, hari n'ameza atatseho ibara ry'umutuku n'icyatsi, ari' igikombe kirimo amata n'ikaramu isa ibara ry'ubururu.

Isahani nini cyane ifite amabara y,umweru, shokora, icyatsi ,n'umuhondo iriho amandazi menshi cyane hari rimwe risatuyemo kabiri.

Ameza y'umweru ariho agapaniye k'umukara, karimo amagi atatu n'akantu bashyiramo umunyu k'umweru, hirya y'ameza hariho ikigega kinini cy'ubururu bashyiramo amata.

Akabati karimo ibikombe bitanu birimo imbuto zitandukanye zifite amabara, umutuku, umweru n'umuhondo kandi muri ako kabati harimo n'imineke.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye amandazi, imigati na capati, harimo n'akabati karimo amajerekani, hahagazemo n'abantu babiri b'igitsina gabo, umwe afashe akajerekani mu ntoki ze.

Inzu ifite amabara y'ubururu n'umweru ku rugi hashushanyijeho utubido tw'amata imbere y'iyo nzu harikandagira ukarabe iriho n'indobo y'icyatsi.

Urugi rusize irange ry'ubururu hometseho icyapa kinini cy'ubururu gishushanyijeho inka, cyanditseho Nyanza milki indasitiri. Hashushanyijeho n'utujekani, hirya yarwo hari amajerekani batwaramo amazi yo kunywa.

Mu muhanda wubakishijwe amabuye yo mu bwoko bw'amapave haparitsemo imodoka eshatu, ebyiri z'umweru n'imwe y'umukara, harimo n'umuntu w'igitsina gore uri kugenda, inyuma y'imodoka hari inzu nziza y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye.

Isahani y'umweru ishushanyijeho uturabyo tw'iroza n'icyatsi, hariho amandazi menshi cyane yisatuye, agaragara nk'aryoshye cyane.

Icyapa kinini cy'umweru, kiriho umuntu w'igitsina gore, ufite imisatsi y'umukara, cyanditseho eyateri mani, ishyura umuriro ukoresheje eyateri mani mu ibara ry'umutuku n'umukara.

Urupapuro rw'umweru rw'inyemezabwishyu y'umusoro, ku ruhande hari akaziga k'icyatsi karimo isaka n'agaseke, handitseho Repubulika ofu Rwanda hariho amagambo menshi yanditse mu ibara ry'umukara.

Urupapuro runini rw'umweru rw'inyemezabwishyu y'imisoro, ku ruhande hari akazeru k'icyatsi karimo isaka n'agaseke, hirya hari amagambo, Rwanda reveni otoriti.

Urupapuro runini rw'umweru, rw'inyemezabwishyu y'umusoro, hirya ku rupapuro hariho akazeru rw'icyatsi karimo agaseke n'isaka, hirya handitseho Rwanda reveni otoriti.

Ibiganza bibiri biri kubara amafaranga ari mu bwoko bw'amadolari ndetse hirya y'ibyo biganza bibiri hari andi mafaranga ari mu bwoko bw'amadolari ijana azirikishijwe fimbo y'umutuku.

Ibiganza bine bitandukanye bifite amafaranga atandukanye, ashushanyijeho umugabo n'andi yanditseho ijana, biragaragara ko bari kuvunjisha bayahererekanya.

Ibiganza bibiri by'umuntu w'umuzungu, bifashe amafaranga menshi, bigaragara ko ari kuyabara, hari amwe ari ku meza ashushanyijeho umugabo, yanditseho ijana.

Ku meza hateretse impapuro z'umweru n'amafaranga atandukanye, inota yanditseho makumyabiri n'ibiceri bitandukanye, iby'ijana, ibya mirongo itanu, ibyicumi, ibya makumyabiri n'ibindi.

Ibiganza bine by'abantu bifite amafaranga atandukanye, amwe ashushanyijeho umuntu yanditseho ijana n'andi mu ntoki zabo, biragaragara ko bari guhererekanya ayo mafaranga.

Amafaranga ashushanyijeho inzu n'inzoka yanditseho banki ofu Tanzania, magana atanu ari mu ibara ry'icyatsi n'umweru.

Abantu babiri b'igitsina gabo, umwe ari kwitaba terefone, undi afite amafaranga mu ntoki menshi cyane na fimbo ku ntoki, bigaragara ko ari kubara amafaranga menshi.

Ibiganza bibiri byambaye ibikomo by'icyatsi, bifite amafaranga mu ntoki ya move, ashushanyije umugabo, wambaye rinete yanditseho ijana.

Urupapuro runini rutetsaho amafaranga atandukanye, afiteho ubuso bw'ubururu, amafaranga yanditseho icumi, makumyabiri, mirongo itanu.

Ibiganza bibiri bifashe amafaranga yo mu bwoko butandukanye, ayo mafaranga ashushanyijeho umugabo wambaye rinete kandi yanditseho magana atanu.

Inzu yubakishijwe amakaro, hahagazeho umuntu w'igitsina gabo n'abandi bicaye, ifite amabara y'icyatsi n'umweru n'urugi rw'icyatsi, ruriho icyapa kinini cy'ibara ry'umweru n'icyatsi n'umuhondo.

Inzu nini cyane irimo tapi, irimo n'intebe nyinshi cyane n'tubati tw'umweru turiho ibara ry'ubururu n'icyapa kinini cyane gishushanyijeho abantu.

Inzu irimo intebe n'ameza inyuma hari ibyapa bitandukanye bigaragaza serivisi zitangirwa aho hantu, biri mu ibara ry'umuhondo, umweru n'umutuku.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo tw'umweru n'umukara, harimo imodoka ziri kujya mu byerekezo bitandukanye, hirya y'aho hari inzu nini cyane iriho icyapa cyanditseho teganya, kiriho umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru n'umupira w'umukara.

Mu nzu, harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye ishati irimo uturongo tw'umweru n'ubururu bwijimye, n'undi wambaye ishati y'umukara, biragaragara ko aje kwaka serivisi yo kubitsa amafaranga.

Inzu nziza y'ubucuruzi, ifite amarangi y'umweru, imbere yayo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu n'umuhondo, icyapa cyanditseho wesite uniyoni, gishushanyijeho amafaranga menshi y'amadolari.

Mu nzu harimo ibikoresho bitandukanye, intebe z'umweru n'umukara, ameza, udutebe twazo, matera, akabati n'ibindi bikoresho byinshi.

Mu nzu nziza cyane yubakishijwe amakaro iteretsemo intebe z'umukara, ameza y'umukara ateretseho ibikombe n'akabati k'umweru karimo ibikapu byinshi.

Inzu nziza yubakishije amabati y'umutuku, hanze yayo haparitse imodoka y'ubururu, nanone hanze hari intebe zifite n'utumeza twabo kandi hari n'abantu bahagaze mu muryango.

Inzu nini cyane yubakishije amakaro na parafo z'umweru, imbere hari akabati kariho imitako itandukanye na televiziyo nini y'umukara n'intebe zo kwicaraho n'ameza.

Icyumba kinini cyane kandi kiza gifite igitanda, hariho imisego ibiri isa umweru n'amashuka asa umweru, impande y'igitanda hari akabati gafite ibara ry'icyatsi n'amarido asa umweru.

Inzu nziza cyane yubakishije ibirahure, hanze yayo hari intebe zisa shokora zifite imisego yayo, n'ameza yayo afite amabara y'umukara n'umweru.

Inzu nziza yubakishije amakaro, isize irangi ry'umweru irimo intebe za shokora zifite n'imisego yazo, hirya hari izindi z'umukara zifite n'ameza y'umukara.

Inzu nini cyane kandi nziza igereretse isize amarangi y’umweru, hanze yayo hari ubusitani bwiza, inyuma y'iyo nzu hari andi mazu menshi.

Inzu nziza cyane zigeretse imwe isize amarangi y'umweru, indi isize amarangi ya oranje n'umuhondo. Hejuru handitseho ibihumbi bibiri.

Inzu nini cyane nziza igeretse isize irangi ry'umuhondo, ifite n'gipangu cy'umuhondo, hanze haparitse imodoka, hanze hari n'ibiti by'ubwoko bitandukanye.

Inzu nziza cyane yubakishije amakaro, irimo na parofo y'umweru, n'itara riri kwaka, yicayemo abantu babiri b'igitsina gore, umwe yambaye ishati y'umweru n'undi yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru.

Inzu nini cyane kandi nziza, igeretse, iri kwaka amabara y'umuhondo, hanze hari kaburimbo irimo uturongo tw'umweru n'umukara.

Inzu nini cyane yubakishije amakaro, irimo intebe nyinshi cyane zisa umutuku n'umukara n'ameza yayo, hirya hari n'umutaka usa umweru.

Inzu ebyiri nziza cyane, zigeretse, ziri kwaka amatara atandukanye, imwe iri kwaka umuhondo, indi iri kwaka icyatsi, umuhondo n'ubururu. Impande y'iyo nzu, hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Inzu nziza cyane yubakishije amakaro, irimo na parafo y'umweru n'umutuku, hirya hari televiziyo nini y'ubururu n'akabati k'ubururu n'umweru, hari icyapa kinini cyanditseho buritamu mu ibara ry'ubururu.

Inzu nini size irange ry'ubururu n'inzugi z'ubururu zanditseho irembo, byandikishijwe ibara ry'umweru mu imbere harimo intebe z'ubururu n'umutuku.

Mu nzu nziza harimo tapi y'umukara, harimo n'intebe z'umukara zifite n'ameza y'umweru, harimo n'ibipirizo by'umweru n'ubururu hagati yabyo handitsemo faniramu.

Inzu nziza cyane yubakishijwe amakaro y'umweru n'umukara, irimo parafo y'umweru, irimo n'irangi ry'umweru ryanditse Sanlam mu magambo y'ubururu, ifite n'intebe z'umukara na mashini imbere yayo.

Inzu nziza cyane irimo tapi y'umukara, iteretsemo intebe nziza z'umutuku n'izindi za kake zifite imisego y'umutuku, harimo n'ivaze irimo ururabo, harimo n'umuntu w'igitsina gore wicaye, ku kabati k'umweru.

Inzu nini irimo intebe n'ameza hanze ku muryango hari icyapa kinini cy'ubururu n'umweru cyanditseho Radiyanti inshuwarensi kampani hanze haparitse moto hari n'amavase arimo indabo.

Inzu ifite umuryango w'umukara, isize ibara ry'umuhondo, ifite ibyapa byinshi bisa ubururu, umweru na oranje, byanditseho BK inshuwarensi.

Urupapuro runini rw'umweru ruriho ibara ry'ubururu n'icyatsi handitseho ba pa ra banke, n'andi magambo menshi yanditse mu ibara ry'umukara n'utundi tuzeru twinshi turi mu ibara ry'icyatsi.

Inzu nziza irimo abantu mo mu imbere bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, isize irange ry'ubururu n'umweru, hejuru hari icyapa cyanditseho i na ma, banki, hirya y'iyo nzu hubatse indi nzu yubakishije amategura.

Icyapa kinini cy'icyatsi n'umweru, cyanditseho ishimire inguzanyo itagira ikiguzi mu ibara ry'umweru, hirya yacyo hari umuntu w'igitsina gore ufite terefone mu ntoki, urimo guseka.

Icyapa kinini cyane kiri kwamamaza inguzanyo, kiriho umugore wambaye umupira wa move, cyanditseho ijambo openi, ndetse n'ikirangantego cya ekwiti.

Icyapa kinini cy'ubururu kiriho abagabo batatu bambaye amadarubindi, amakoti y'umukara, n'amashati y'umukara, kiriho amagambo menshi yandikishije ibara ry'umweru, n'akandi kazeru kanditsemo ba ka.

Inzu nini cyane yubakishije amakaro y'umweru, harimo na parafo, imbere hari abantu batandukanye, igitsina gabo n'igitsina gore bambaye udupfukamunwa, imbere hari abantu bari gutanga serivisi n'abari kuzakira, hari n'ahantu hari ibipirizo bisa umweru, oranje n'ubururu.

Icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru gishushanyijeho akazeru ku'umweru, mo imbere handitseho BK hashushanyijeho n'abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore n'inzu nziza yanditseho BK Arena.

Abantu benshi bari mu isoko, higanjemo igitsina gore, bafite ibicuruzwa bitandukanye, aribyo: urusenda, inyanya, intoryi, ibitoki ndetse n'ibindi bitandukanye.

Mu isoko ririmo abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore. Harimo n'ibicuruzwa bitandukanye ari byo: amaronji, pome, imyembe, indimu, ibinyomoro n'amatunda.

inzu nziza nini cyane yubakishije ibirahure iriho ibyapa bitandukanye, ik'icyatsi cyanditsemo banke popirere du Rwanda mu ibara ry'umuhondo.

Hanze hari ibicuruzwa bitandukanye by'imboga n'imbuto, harimo inyanya, imboga, amashu, ibigori, urusenda, ibitunguru n'ibindi byinshi, hari n'abantu babiri b'igitsina gore bahahagaze.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo imitako ya kinyarwanda, harimo inkoko, ibiseke ndetse n'imyenda, hari umupira w'icyatsi wanditseho Rwanda.

Mu nzu biragaragara ko ari mu isoko harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore, harimo ibicuruzwa bitandukanye by'imboga n'imbuto, inyanya, imiteja, intoryi, karoti n'ibindi byinshi.

Mu nzu harimo abantu benshi, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abambaye imipira y'umweru bakorera sosiyete ya MTN, bari gutanga serivisi yo kubitsa no kubikuza.

Ikiganza gifite terefone mu ntoki iri kwaka ibara ry'ubururu yanditsemo shyiramo amafaranga, inyuma y'icyo kiganza hari urupapuro runini rw'umuhondo rwanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara.

Akazu k'umuhondo kanditseho amagambo menshi ka sosiyete ya MTN, kariho abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore n'undi urimo imbere uri kubaha serivisi yo kubitsa no kubabikuriza.

Akazu k'umuhondo ka emutiyeni, kicayemo umuntu wambaye umupira urimo uturongo tw'umweru ndetse na shokora, afite igitabo imbere ye, kandi inyuma ye hometse igipapuro.

Abantu benshi cyane, harimo abakorera sosiyete ya MTN, bari gufasha abantu gutanga serivisi yo kubitsa amafaranga no kuyabikuza.

Abantu benshi harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara, abandi bahagaze ku kazu gafite ibara ry'umutuku n'umweru ka sosiyete ya Airtel, bari kwaka serivisi yo kubitsa no kubikuza.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo tw'umweru n'umukara, hirya yabo hari akazu k'umuhondo kariho amagambo menshi yanditse mu ibara ry'umukara n'ikirango cy'umuhondo cyanditsemo MTN.

Urupapuro rw'umuhondo rwa soyiyete ya MTN, ruriho ubuso bw'ubururu bwanditseho MTN MOMO, mu magambo y'umweru; bwanditseho amagambo menshi y'umukara.

Akazu k'umuhondo ka sosiyete ya emutiyeni, kanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara, mo imbere harimo umuntu n'abandi bantu b'igitsina gabo, bari hanze bari kwaka serivisi yo kubitsa no kubikuza.

Urupapuro rw'umuhondo, rwanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara, shopu, na peyi wivu momopeyoi, mu ibara ry'umukara n'ikirango cy'umuhondo cya sociyete ya MTN.

Urupapuro rw'umuhondo, ruriho umweru rwa sosiyete ya MTN, hejuru handitse ma ta na momo, hepfo hari ikirango cya sosiyete ya MTN mu ibara ry'ubururu.

Akazu k'umuhondo ka sosiyete ya MTN karimo umuntu w'igitsina gore hari n'undi w'igitsina gabo, uri kwaka serivisi yo kubitsa no kubikuza, wambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'ipantaro y'umukara.

Urupapuro runini rw'umuhondo rwa sosiyete ya MTN handitseho MOMO furomu MTN n'andi magambo menshi yandikishwa ibara ry'umukara, hasi hari na kode bakanda.

Akazu k'umuhondo gafunguye ka sosiyete ya MTN, hicayemo umugabo wambaye ijire y'umuhondo n'undi mugabo uhagaze uri kwaka serivisi yo kubikuza no kubitsa.

Ibiganza bibiri bifashe terefone mu ntoki, ifite ibara ry'umukara icanye, yanditseho mo mbere ishyura magana atanu n'andi magambo manini yanditse MoMo.

Inzu y'ubucuruzi icuruzamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo abantu batandukanye, igitsina gabo n'igitsina gore, bari kwishyura ibicuruzwa bamaze kugura. Hari n'icyapa kinini cy'icyatsi cyanditseho sawa siti.

Mu muhanda w'igitaka harimo moto ihagaze ihetse akabati ka oranje, hari abagabo babiri bahagaze umwe yambaye agapfukamunwa undi yambaye ingofero y'ubururu n'ijere ya oranje, hirya y'umuhanda hari amazu y'ubucuruzi.

Urupapuro runini rw'umweru, ruriho ikirango cya sosiyete ya Airtel, n'andi magambo menshi yandishije ibara ry'umukara, n'andi magambo manini yanditseho, mirongo itandatu G na B, hashushanyijeho n'umuntu w'igitsina gabo.

Umugabo utwaye moto wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero yo kwirinda y'umutuku, ahetse igikapu kigizwe n'amabara abiri umuhondo na oranje.

Icyapa kinini cy'icyatsi cyandikishijeho amagambo y'umweru n'icyatsi, kirimo amvirope irimo imineke, amashu, inyanya, shufurere n'ibindi, kiriho na telefone iri kwaka.

Mu muhanda wubakishije amabuye yo mu bwoko bw'amapave; harimo moto iparitse iriho umuntu wambaye umupira w'icyatsi n'ingofero y'icyatsi, inyuma kuri moto hariho akabati kanditseho '' Vuba''.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibara rya oranje, hepfo yawo hariho ubuso bushushanyijeho umuntu, n'ubundi buso burimo uturongo dutatu handitseho "Tuma" mu ibara rya oranje.

Icyapa kinini cy'umweru kiriho amagambo menshi yanditse mu ibara ry'umukara, kiriho n'umuntu w'igitsina gore wambaye ishati y'umweru ufite n'imisatsi myinshi, ufite n'udukapu tubiri mu ntoki: ak'umweru n'icyatsi.

Urupapuro ni rw'umweru, rwanditseho amagambo menshi, ariyo onurayini shopu mu ibara ry'ubururu, ashushanyijeho imodoka n'abagabo babiri.

Urupapuro runini rw'umweru ruriho amabara menshi: umutuku, ubururu, n'umweru. Hariho amagambo menshi yanditse mu ibara ry'umukara. Hejuru handitse isoko rigari akadomo komu.

Mu muhanda wa kaburimbo haparitsemo moto itwawe n'umuntu wambaye umupira w'icyatsi, ufite ingofero y'icyatsi wambaye n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hari akabati gashushanyijeho umuntu uri kwiruka.

Inzu nziza ifite amakaro y'umweru n'inzugi n'amadirishya amatara ari kwaka kandi harimo n'ubukarabiro.

Icyumba cyiza kirimo igitanda n'amarido n'itara riri kwaka, kirimo igitanda cy'umukara n'imisego ibiri isa nk'amashuka, hasi handitseho Kibagabaga, Kigali siti.

Inzu nziza cyane isize irange ry'ubururu yubakishije amabati y'umukara, hanze hari ubusitani buteyemo ibiti byo mu bwoko bw'imikindo, hari n'umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'ipantaro y'ikoboyi.

Icyumba kiza, kinini, kirimo igitanda, gishasheho matela n'imisego ibiri n'amashuka, hirya yacyo hari itara n'akameza, handitseho apatimenti foruseli ini Kibagabaga Kigali usd, ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu.

Inzu nini kandi nziza, igeretse isize irangi ry'umweru na shokora n'umuhondo, yubakishije igipangu cy'amatafari ahiye, hanze hubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave hari nubusitani bwiza.

Inzu nziza cyane ikodeshwa, iherereye muri Kigali, ifite ibara ry'umweru, ifite ubusitani hanze burimo ibiti byo mu bwoko butandukanye.

Inzu nziza, nini, zisize irangi ry’umweru, ifite amabati y’umutuku, nindi ifite amabati y'umukara. Hanze hubatse imbuga yubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave, irakodeshwa, yanditseho forenti-Kimironko gatatu ba da na gatatu.

Inzu nini cyane isize amarange y'umweru, ifite n'inzugi z'umweru, ku mpande hari ibiti byo mu bwoko butandukanye, hanze hubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave, hari n'uturongo tugizwe n'umweru n'umuhondo.

Inzu nini cyane yubakishije amakari n'ibirahure bya fime, hanze hubakishijwe amabuye n'ubwoko bwamapave irakoreshwa ifite icyapa kivuga ngo; foru renti Kigali Kanombe kane bedi rumizi, gatatu bafu rumu.

Inzu nini kandi nziza isize amarangi y'umweru, umuhondo na oranje, ifite amatara y'umweru n'umukara, ifite n'intebe zo kwicaraho z'umweru, iherereye Rugando, Kigali siti.

Umuhanda wubakishijwe amatafari yo mu bwoko bw'amapave, inyuma yayo hari inzu nziza isize irange ry umuhondo handitse foru renti kigali Kanombe, kane bedi rumuzi, gatatu bafu romuzi, ibihumbi magana atanu mafuri.

Inzu nini kandi nziza isize amarange y'umweru, imbere yayo haparitse ikinyabiziga cya moto, hirya yayo hateye ibiti bitandukanye n'ibyatsi, handitse foru renti, Kanombe, Busanza, kane, bedirumu, gatatu, bafurumuzi.

Inzu nziza ifite inzugi z'umukara ndetse n'amarangi y'umweru, imbere yayo hari igiti cy'ubwoko bw'imikindo hari na nimero uyishaka yayibarizaho, ari yo zeru karindwi umunani mirongo itandatu cumi na gatandatu magana arindwi mirongo inani n'ikenda.

Inzu nziza kandi nini cyane, yubakishije amabati y'umutuku, isize irangi ry'icyatsi n'inzugi n'amadirishya by'umweru, byubakishije amatafari y'ubwoko bw'amapave.

Inzu nini cyane kandi nziza, yubakishije amatafari ahiye, hanze hateretse amavase, hari n'ibiti, hanze hubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave, hari n'icyapa cyanditseho folurenti Kigali Kanombe, kane bedi rumu, gatatu bafurumu, magana atanu Rwandan furanka

Inzu nini kandi nziza ifite icyumba kirimo insakazamashusho bigaragara ko gikodeshwa, handitseho kabiri bedroom rimwe bafurumu sitingirumu kiceni in door parking, kuhumbi magana atatu mirongo irindwi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amasakoshi y'abagore ndetse n'ibindi bikoresho, harimo abantu bari gutemberamo.

Inzu nini y'ubucuruzi yubakishijwe amakaro irimo ibicuruzwa bitandukanye bipanze mu tubati harimo n'abantu bari gufata ibyo bicuruzwa, ari byo amavuta yo kwisiga, ayo kurya n'ibindi byinshi.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa by'imyenda y'igitsina gore, amakanzu, imipira, amajipo, n'ibindi, harimo abaguzi babiri n'umucuruzi umwe, ari kubereka ibyo acuruza.

Mu nzu nini, harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore, hejuru hamanitse ibyapa by'umuhondo bya societe y'Inyange, biragaragara ko ari inzu y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa by'imboga n'imbuto, imineke, amaronji, indimu, imyembe n'ibindi.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibisuguti, bombo n'ibindi. Hanze hari ibyapa by'umweru bishushanyijeho inyama n'ibindi, hejuru hariho icyapa cyanditseho supamaketi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye ari byo inkweto zabagabo, imikandara, amasakoshi ndetse n'ibindi; harimo n'abantu b'igitsina gore babiri.

Ibicuruzwa byo mu bwoko bwa Kinyarwanda harimo: imitako yo mu nzu, iyo hanze, hari n'abantu babiri umwe w'igitsina gore n'igitsina gabo bari kureba iyo mitako.

Mu nzu igaragara nk'isoko irimo abantu batandukanye, harimo n'ibicuruzwa bitandukanye ari byo inyanya, pavuro, intoryi, kokombure, karoti, tungurusumu, imiteja na shofurere.

Inzu nini nziza y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye by'ibinyampeke ari byo; amasaka, soya, uburo, amamera, ibigori, ndetse n'ibishyimbo.

Inzu nini cyane, iriho ibyapa bijye bitandukanye biri mu mabara atandukanye, harimo ubururu, umutuku, imikara, ibyo byapa bigiye byamamaza aho bagurira imyenda y'abana ndetse n'abantu bakuru.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, ari byo imyembe, amaronje, amatunda, ibinyomoro n'imineke harimo n'abantu bari guhaha izo mbuto.

Mu nzu harimo abantu benshi batandukanye, igitsina gabo n'igitsina gore, bahagaze hari n'abandi babiri bicaye ku ntebe z'umweru n'umutuku, bigaragara ko bari gutanga serivisi n'abari kuzihabwa.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore bicaye harimo n'umwe uhagaze, bafite impapuro mu ntoki zabo basa nkaho bari kwaka serivise ahantu.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'umweru wanditseho RSSB, ufite indangururamajwi mu ntoki ze, imbere hateretse agacupa k'amazi, hirya ye hari umuntu wambaye impuzankano ya gisirikare, inyuma ye hari icyapa kinini kiriho abantu babiri, igitsina gabo n'igitsina gore, cyanditseho ejo heza.

Abantu babiri harimo uw'igitsina gabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, uw'igitsina gore wambaye ikote ry'umukara, bafite agakapu k'umweru n'ubururu mu ntoki, inyuma yaho hari icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho ra esi esi ba.

Urupapuro rw'umweru rurimo n'umuhondo, ruriho amakarita y'icyatsi cyerurutse, yanditseho RSSB mu ibara ry'icyatsi n'andi magambo menshi mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi cyane, hari abicaye n'abahagaze imbere yabo, hari ameza, bafite amakarita ya araesiyesibi, hari umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'ingwe ufite karikireta, n'umugabo ufite amakarita mu ntoki.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imipira y'umweru n'amajire y'umuhondo n'andi y'ubururu, hari icyapa kinini cyanditseho Ejo Heza mu ibara ry'ubururu.

Mu nzu urimo abantu batandukanye b'igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'ibiti, hari n'undi uhagaze uri kugenda asa nk'aho ari kujya kwaka serivisi aho hantu.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, hari abahagaze n'abicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari udukarita tw'icyatsi twanditseho RSSB.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati y'umweru na karuvati irimo uturongo, imbere hari ibiganza bifite imfatamajwi, inyuma ye hari icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho rssb.

Abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abicaye n'undi umwe uhagaze, ufite indangururamajwi mu ntoki, wambaye ikote ry'ubururu bwijimye n'ishati y'umweru na karuvati irimo utunyenyeri, inyuma ye, hari icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho RSSB.

Ikiganza gifite ikarita y'umuhondo, yandikishijeho amagambo menshi mu ibara ry'ubururu n'andi mu ibara ry'umukara, iriho ifoto iriho umwana.

Ikiganza cy'umuntu, gifite ikarita y'umuhondo, hashushanyijeho akazeru k'umukara karimo isaka n'agaseke, kanditseho Repubulika y'u Rwanda Minisitiri y'Ubuzima mu mujyi wa Kigali, Akarere ka Kicukiro.

Abantu benshi cyane harimo ab' igitsina gabo n'ab'igitsina gore, imbere yabo hateretse mashini, hari abari kwaka serivisi n'abari gutanga serivisi, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho RSSB.

Inzu y'ubururu hirya hari intebe hari n'ikiganza cy'umuntu, gifashe agapapuro k'umuhondo gashushanyijeho ikizeru kirimo agaseke n'isaka, kanditseho Repubulika y'u Rwanda, Minisiteri y'ubuzima, umujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro.

Inzu y'ubucuruzi yubakishijwe amakaro harimo umuntu uri kugenda harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo amasabune, imiti idufasha gusukura, ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo abantu bari guhaha, ibyo bicuruzwa harimo umwe ufite akagare ari kugenda ashyiramo ibicuruzwa yahashye.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi, yubakishijwe amakaro irimo ibicuruzwa bitandukanye by'imboga harimo ibitunguru, inyanya, pavuro n'ibindi bicuruzwa byinshi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo na firigo zirimo ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo n'umuntu w'igitsina gore wambaye ikote ry'ikoboyi n'ijipo y'umukara.

Inzu nini yubakishije amakaro y'ubucuruzi. Irimo ibicuruzwa bitandukanye ari byo: mayoneze, marigarine, ibisukuti, amafu y'igikoma n'ibindi byinshi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo umuntu w'igitsina gore, usutse ibisuko birebire wambaye amadarubindi afite n'akagare ari guhahiramo inanasi ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye by'imboga n'imbuto, ari byo: Pome, inanasi, karoti, tangawizi, inkeri, harimo n'umuntu w'igitsina gore, wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye bipanze mu kabati, harimo amaji n'amata harimo n'umuntu w'igitsina gabo wunamye wambaye umupira w'ubururu n'umukara n'ipantaro y'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi yubakishijwe amakaro harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bipanze mu tubati kandi harimo n'intebe n'ameza byo kwicaraho.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi yubakishijwe amakaro, irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ari byo: amakaroni, imiceri, ibisuguti ndetse n'ibindi byinshi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye by'imboga n'imbuto aribyo; pome, tangawizi, karoti, inyeri, imiteja, n'ibindi. Harimo n'umuntu w'igitsina gore, wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ubururu.

Inzu nini, nziza y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bitandukanye by'imboga n'imbuto, ari byo: amatunda, inanasi, pome, inyanya, voka n'ibindi byinshi.

Icyapa kinini cyane cyanditseho Simba mu ibara rya oranje, supamaketi mu ibara ry'ubururu, inyuma yacyo hari imodoka ndetse n'umuntu wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umweru.

Mu nzu yubakishije amakaro harimo ikiganza kisize verine y'umutuku, gifashe icupa rinini ririho umuhondo n'umweru ryanditseho ma, ja, sa, mayoneze.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi, yubakishijwe amakaro, na parafo y'umweru, irimo abantu benshi b'igitsina gabo, bari guhaha ibicuruzwa bitandukanye, harimo amakaroni, umuceri n'ibindi, n'umugabo ufite akagare uri gushyiramo ibyo ari kugura.

Inzu nini kandi nziza y'ubucuruzi isize irange ry'umweru irimo ibicuruzwa bitandukanye. Hanze yayo hari kandagira ukarabe ifite indobo y'ubururu n'ibase y'icyatsi, n'indobo nini irimo ibikoresho by'isuku y'umutuku. Hari n'imodoka y'umukara hanze.

Inzu nziza y'ubucuruzi yubakishije amakaro, harimo purafo y'umweru, isize irangi ry'umweru, ifite n'inzugi z'umukara, irimo ibicuruzwa bitandukanye, amasabune asukika y'ubururu.

Inzu nini cyane nziza y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye bipanze mu tubati, hejuru hari icyapa kinini cyanyanditseho poromosiyo, mu ibara ry'umutuku n'umuhondo n'imibare myinshi.

Iduka rinini ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo amafu y'igikoma, amavuta, mayoneze ndetse n'ibindi harimo abantu benshi umwe afite akagare ari gufata ibicuruzwa bigiye bitandukanye.